Abagabo babiri bahagaze umwe afashe mikoro yambaye ishati y'umuhondo irimo n'ibara ry'umweru ndetse n'inyuma hakaba hariyo n'ibara ry'ubururu, akaba arimo abwira abantu, anabagira inama, anatanga igitekerezo cyiwe.

Umubyeyi uhagaze yambaye imikenyero isa neza na we asa neza, bari mu gikorwa cyo gushishikariza abaturage gukorera ibintu byose mu masibo harimo: gutanga Mituweli, kwizigamira ejo heza.

Abantu batatu: abagabo babiri n'umudamu umwe, bicaye ku ntebe bari mu nama ndetse n'imbere yabo hakaba hariho amacupa y'amazi, abafasha mu gihe bari kuvuga kugira birinde gusarara.

Abaturage benshi cyane babyukiye mu nama harimo n'umusirikare baje kubabwira uburyo bagomba kurinda umutekano, ndetse banawucungira igihugu kugira ngo birinde ababatera n'ababangiriza ubuzima.

Umumama wambaye ikanzu ari imbere y'abaturage benshi cyane arimo abagira inama ndetse barimo bari no mu ihema ryiza ry'umweru rifite n'utubara dusa nk'idarapo ry'u Rwanda.

Abaturage batanu, bari muri gahunda ya leta, yitwa abikorera mu isibo, ifasha abaturage mu gutanga mituweli muburyo bworoshye, mu kuzigamira ejo heza ndetse no mu kugirana inama kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Abagabo n'abagore bambaye imyambaro isa bose ingofero y'imipira y'umweru ndetse n'amapantaro cyangwa se amajipo y'umukara, baje mu nama kumva ibyo babatumiyeho ndetse nabo kugira ngo bayitangemo ibitekerezo.

Abagabo n'abagore bahuriye mu nama barimo bateze amatwi ibintu bari kubabwira, bari mu cyumba kiza cy'umweru kirimo amarado y'umweru, giteye n'irangi ry'umweru, gisa neza ku buryo bwose bushoboka.

Umupolisi wambaye impuzankano, ufashe na mikoro itukura, wambaye n'ingofero nziza n'amarinete, ahagaze mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo, ari kugira inama abaturage uburyo bagomba kwicungira umutekano.

Abaturage bateraniye mu cyumba bari mu nama, hari n'umukobwa ufashe ijambo uri kuvuga ndetse ari gutanga igitekerezo ke uko abyumva.

Abagabo n'abagore bari mu nama umwe muri bo afashe telefoni aragufotora imbere, arikumva ibyo bari kubabwira kandi bose babiteze amatwi, uri kubona ko bafite gahunda yo kubyumva no kubyumvira.

Umukaraza w'ingoma ufite imirisho ugiye kuzivuza, ndetse yegeranye n'abandi basore bambaye imyambaro y'umuco Nyarwanda, baje kuvugira inka cyangwa se kubyina kugira ngo berekane umuco Nyarwanda.

Abaturage bicaye bate bari kureba imbere, basa n'aho bari kureba yo ikintu, baje kwizihiza no kureba ibirori byizihiza umuco nyarwanda ndetse umuco dukomeye twese.

Abagabo batandatu, biyogosheshe inyogosho ya kera bitaga amasunzu ndetse yabaga isa neza, yogoshwaga abagabo abagore na bo bafite iyabo yo kubogosha.

Umugara, ni ingofero ya kera yambarwaga n'intore ,mu mugihe zabaga zigiye guhamiriza no kubyina kandi byabaga ari ibintu byiza, iri mu nzu, iteye irangi ry'umweru ryiza.

Tapi nziza y'ibara ry'icyatsi, iriho abasore n'abakobwa bari kubyina imbyino za kera, bambaye imikenyero y'umweru, hariho n'abagabo bicaye n'abagore, bari kureba kandi bishimye.

Imyambaro y'umuco nyarwanda y'umweru ibengerana, ubu bayikoresha mu gihe bari gusaba cyangwa se bari mu bukwe, mu Rwanda ibisa neza abayambaye nabo basa neza.

Abasore bambaye imyambaro ya kera yifashishwaga bari kubyina, bafashe ingabo mu biganza, bambaye urugi, inyuma yabo hari ishyamba ryiza riteye amabengeza.

Umugabo wambaye ibirenge, ndetse akaba afite n'amayugi ya kera bakoreshaga mugihe babaga bari kubyina, ndetse bigatuma abantu bumva urwunge rw'injyana.

Umugore usa neza useka neza wambaye imikenyero arimo arabyina imbyino nyarwanda ndetse zashushanyaga inka z'inyambo ndetse ni nziza zatumaga abaturage bishima.

Umubyeyi, uri kubyina neza, wambaye imyambaro y'umweru, ayiteze n'urugori ariguseka cyane biramushimishije, ari kubyina imbyino nyarwanda, ndetse ni nziza cyane.

Igisabo ni igikoresho bavana mu nzuzi kugira ngo bagishyiremo amata ndetse bayabike igihe kirekire, bagikoreshaga kera mu gihe babaga bashaka kugaragaza umuco nyarwanda.

Amapiloni y'amashanyarazi ndetse na za Taransifo zayo bitanga umuriro ku baturage kugira ngo bihangire imirimo, bitezi imbere, bateze imbere imiryango yabo mu buryo bwo guhanga inganda nini n'intoya.

Umukecuru waje muri saro kwiyogoshesha ndetse bituma abawugoshi biteza imbere, bagateza imbere imiryango yabo, umwogoshi yambaye agapfukamunwa n'umupira w'umuhondo ndetse ndabona n'ibishushanyo muri saro ye.

Abagabo bari mu kazi ko gukora amashanyarazi, hari nk'ububiko bw'umuriro w'amashanyarazi, afasha abaturage kwiteza imbere, kwihangira imirimo no guhanga inganda nini n'intoya ziciriritse.

Abakozi b'amashanyarazi bari munsi y'amapirone, bari kohereza umuriro mu baturage kugira ngo bacane kugira ngo biteze imbere, bakore inganda nto n'iziciriritse bibafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugabo wambaye imyambaro y'akazi uri ku kumapironi hejuru wambaye n'ingofero y'ubururu, ari gukora umuriro w'amashanyarazi kugira ngo abohereze mu baturage bihangira imirimo bakora inganda inini n'intoya.

Amapiloni y'amashanyarazi atwara umuriro ku baturage kugira ngo biteze imbere bakore inganda nto n'inini kugira ngo babone akazi kabinjiriza amafaranga.

Umukozi w'amashanyarazi wambaye imyambaro y'akazi n'ingofero y'umuhondo, imurinda kwangirika yambaye n'uturindantoki tw'umutuku ari gukora umuriro w'amashanyarazi kugira ngo awuhe abaturage.

Ipirone rirerire cyane binyuzeho insinga z'amashanyarazi zijyanye umuriro mu baturage, kugirango biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo mu buryo bwo guhanga inganda nini n'iziciriritse.

Umugabo wo gukora umuriro w'amashanyarazi ndetse kugira ngo abone uburyo awohereza mu baturage biteza imbere, guteza imbere n'imiryango yabo bibafashe kubona amafaranga abatunga ndetse n'ayo koherereza abana ku ishuri.

Umugabo wambaye itaburiya y'umukara ari gukora amashanyarazi kugira ngo acanire abaturage babone uko bakora imirimo yabo ya buri munsi n'abana babo babone umuriro kugira ngo bige amasomo yabo.

Amapironi y'amashanyarazi atanga umuriro ku baturage ndetse n'imodoka ya rege, ikigo gitanga umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda, gifite ni inimero makumyabiri na karindwi , makumyabiri na karindwi, iyo wahamagara ku buntu mu gihe ugize ikibazo.

Amapiloni y'amashanyarazi yohereza umuriro ku baturage kugira ngo babone uburyo bihangira imirimo mu buryo bwo gukora inganda nini n'into n'iziciriritse bakiteza imbere, bagateza imbere n'imiryango yabo.

Ipiloni y'amashanyarazi anyuzeho insinga ijyana umuriro mu baturage ubafasha mu kwiteza imbere, kwihangira imirimo, harimo gushinga amasalo, gukora inganda ntoya n'iziciriritse.

Abagabo babiri bari gukora amapirone y'amashanyarazi kugira ngo bohereze umuriro kuba baturage na bo biteze imbere bakora inganda nini n'into bikongerera abantu akazi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ufite n'umusatsi w'umukara uri impande y'igikoresho cyangwa se imashini ibika umuriro w'amashanyarazi kugira ngo uwugeze ku baturage neza nta kibazo.

Amapironi y'amashanyarazi, yohereza umuriro mu baturage kugira ngo bihangire imirimo, bakore inganda nini n'iziciriritse kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Igikuta kimeze neza, giteye irangi ry'umweru, cyanditseho ngo Gikoba Libration History Trail n' ahantu bibukira intwari zacu, zabohoye igihugu.

Inzu iteye irangi ry'ubururu, ishakakaje amabati y'ubururu, yegereranye n'inzu iteye umucanga ,isakaje amabati atukura, zisa n'aho ari inzu nziza, zimeze neza.

Ikigo cy'amashuri kinini cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse gishakakaje amabati y'ubururu gifasha abanyeshuri kuza kwigiramo gufatiramo ubumenyi, kongera ubwenge bwabo ndetse no kongera ubushobozi bw'imbaraga zabo.

Inyubako ebyiri zegeranye zubakishije amatafari ahiye ndetse zikaba zisakaye neza, zikaba zifite n'imiryango ya mitalike, zikaba ziri ahantu heza ziteye sima.

Inzu yubatse neza iteye irangi ry'umweru hariho n'irangi ry'umutuku, yanditseho milk powder plant, ni ikigo gitunganya amata kikayahinduramo ifu kugira ngo babone uko bayabika igihe kirekire.

Inyubako nziza iri munsi y'umusozi, zimwe zigeretse kabiri izindi ntabwo zigeretse, zisakaje amabati y'ubururu ndetse hari n'amapironi y'amashanyarazi.

Abagabo bane bari kuva ku nzu iteye irangi ry'ubururu ndetse isakaye neza iriho na kandagira ukarabe n'abandi bayicayeho basa nkaho baje kwivuza kuko ndi kubona ari ibitaro.

Ibiro by'umurenge wa Musheri biteye irangi ry'umuhondo bisakaje amabati atukura ndetse bikaba byubakishije amatafari ahiye, inyuma yabyo hari n'ibiti byiza, bisa neza, bitanga umwuka mwiza.

Ikiraro cyubakishije imbaho n'ibiti ndetse giteyeho n'ibyuma bizifata, bifasha abaturage kuva ahantu hamwe bajya ahandi ndetse bagatwara n'ibintu byabo neza.

Umuhanda mwiza wubatseho ikiraro gifite ibyuma bigikikije icyumweru n'umutuku ndetse hariho n'abaturage, barabyishimiye bishimiye ko babona umuhanda ubahuza n'ibindi bice.

Inzu nziza ya leta yubatse neza iteye irange ry'umweru ikikijwe n'ibyuma isakajwe n'amabati y'ubururu bayifashisha mu gihe baje gusaba serivisi.

Inyubako nziza, yubakishijwe amatafari ahiye, yegeranye n'abagabo bambaye imyenda ya roza, basa n'imfungwa, baje gukora imirimo nsimburagifungo kugira ngo bagabanyirizwe igihano.

Ibitaro by'akarere bya Nyagatare biparitseho imbangukiragutabara ndetse bisa neza, byubatse neza biteye irangi ry'umuhondo ndetse hari n'ikigega gifata amazi kugira ngo adasenyera abaturage.

Abaturage benshi bahagaze imbere y'inzu ndetse yubatswe ifite n'amabara asa n'idarapo y'u Rwanda harimo: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Abaturage bahagaze, imbere y'ibiro by'umurenge wa karama, harimo abagore n'abagabo, ndetse baba baje mu nama, kugira ngo babahugure uburyo bagomba kwitwara, mu mudugudu bakemura amakimbirane, ndetse bafasha na bagenzi babo.

Igicumbi cy'umudugudu wa Bajabe kigaragaza indangagaciro ndetse na kirazira zifasha abaturage uburyo bamenya ibikwiriye n'ibidakwiriye ndetse ibidakwiriye bakabirwanya.

Ibiro by'umurenge wa katabagemu bisakaje amabati y'ubururu ndetse bikaba byubakishijwe n'amatafari ahiye, abaturage baje gusaba serivisi kugira ngo basobanukirwe cyangwa se bamenye uburyo bitwara.

Abaturage bari n'abapolisi bari kubabwira uko bakwiye kwitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse bari n'ahantu heza hahinze insina z'ibitoki kandi bituma binjiza amafaranga.

Abaturage bari kumwe n'inzego z'umutekano, zaje kubagira inama, barwanyamo ibyaha by'ihohotera ndetse bakicungira n'umutekano kugira ngo twirindire u Rwanda rwacu kandi dukomeze, kurukomeza.

Abagabo n'abagore bicaye munsi y'ihema ryubatse neza risa umweru basa n'abaje mu nama kugira ngo bafashe abaturage na bo bifasha mu gukemura ibibazo by'abaturage.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu uhagaze mu baturage, usa n'uri gutanga igitekerezo ke kugira ngo ababwire uburyo abyumva kandi birabafasha kugira uburyo bafata umwanzuro.

Umugore wambaye ikoti ry'umutuku ufite n'imisatsi y'umukara. Waje kugira inama abaturage ku buryo bagomba kwirinda amakimbirane kugira ngo batajya bahora basiragira mu nkiko.

Urumuri ni ikimenyetse kigaragaza ko abantu bagomba gukorera mu mucyo, batabeshya ndetse bagahana ubutabera kandi ntibagongane, ntibahutazanye kugira ngo babane mu mahoro.

Bambaye imyambaro myiza. Bari mu nteko y'abaturage. Baje kwiga kubibazo bafite kugira ngo babibakemurire ndetse babahe n'ubutabera kuko ari byo biranga umuco nyarwanda.

Umuhanda wegereye ishyamba uriho n'icyapa kigaragaza ko ari aho abagenzi bambukira umuhanda kugira ngo birinde impanuka no kujarajara mu nzira hari n'icyapa cyanditseho P kigaragaza ko ari ahantu baparika.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza, wegeranye n'ibiti ndetse uriho n'amapirone y'amashanyarazi, ajyana umuriro mu baturage kugira barusheho kwiteza imbere, binyuze mu kwihangira imirimo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo usa neza, urimo ibara ry'umuhondo aho abagenzi bambukira kugira ngo birinde impanuka, ukikijwe nibiti byiza bitanga umwuka ku baturage.

Imodoka iri kugenda muri kaburimbo y'umweru, haraguru hari amazu y'ubucuruzi afasha abaturage mu gucuruza ndetse akabinjiriza n'amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza wubatse neza, ufasha abaturage mu kujyana ibintu babivana ahantu bamwe babijyana ahandi, ndetse hari n'amatara meza atuma abantu babona mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza, wegeye n'ibiti byiza, uriho icyapa kigaragaza aho abagenzi bambukira kugira ngo birinde impanuka ndetse birinde n'imfu za hato na hato buri munsi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka imwe, ufasha abaturage mu gutwara ibintu n'abantu, babijyana ku masoko, ndetse banabicyura mu rugo, mu gihe bavuye mu mirimo kandi kugira ngo biteze imbere.

Indabyo nziza zisa neza, hari n'icyapa giteye irangiry'ubururu. Cyanditse Nyagatare sector metero igihumbi magana tatu mirongo itanu ndetse hasa neza, hameze neza. Hari n'umuhanda wa kaburimbo

Abagenzi baje muri gare baje gutega imodoka kugira ngo bave ahantu hamwe bajye ahandi, bibafasha mu kwihutisha gahunda zabo za buri munsi harimo gukora buzinesi ndetse n'ubushabitsi.

Abaturage benshi cyane babyukiye mu nama bicaye mu mucaca, bari kwiga ku bibazo byo mu Mudugudu kugira ngo bagire ikintu bageraho, basa neza bambaye neza kandi bari kubyumva ibyo bagomba gukora.

Abaturage babyukiye mu muganda, bambaye imyambaro y'umweruru n'andi mabara atandukanye kugira ngo bifashe bikore umuhanda Ubahuza n'uduce dutandukanye.

Abaturage benshi bicaye mu mucaca mwiza ndetse no munsisi y'ibiti, inyuma yabo hari insina z'urutoki baje mu nama kugira ngo babagire inama ku buryo babana, uburyo babana na bagenzi babo.

Abaturage benshi cyane babyukiye mu muganda wo gufasha ikigo cy'amashuri kuzura kugira ngo abanyeshuri bajye babona aho bigira, ndetse ni ikigo kiza, gishakaje amabati y'ubururu, cyubakishijwe n'amatafari ahiye.

Abaturage benshi babyukiye mu nama, baje kwiga ku bibazo by'umutekano, n'iby'amahoro make abari mu mudugudu, ndetse n'uburyo barwanyamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina, barirwanya kugira ngo ntirizongere kubaho.

Umuturage, umusirikare bafite amasuka abiri basa naho bari mu muganda, bawubyukiyemo kugira ngo bafashe Igihugu ndetse bagabanye n'amafaranga Leta itanga mu gukoresha imihanda.

Abaturage benshi, bitabiriye inama, umupolisi w'umugore arikogira, ari kubabwira ko bagomba kwitwara neza, bakirinda gushwana bya hato na hato ndetse buri wese akabera ijisho rya mugenzi we, birinda indwano zitandukanye.

Abakinnyi b'umupira ikipe imwe yitwa Rwimiyaga, indi yitwa Rukomo, Rukomo yatsinze ibitego bibiri, Rwimiyaga itsinda kimwe, bari kuri finali ndetse bari mu kibuga cyiza.

Abakinnyi b'umupira babyukiye mu kibuga gisa neza, cyubatse neza, ndetse umupira ni igikorwa gifasha abantu mu kwinjiza amafaranga, ndetse no kongera ibibatunga, kwiteza imbere, bateza imbere n'imiryango yabo.

Umugabo wambaye imyambaro y'umukara n'inkweto z'umweru, uhagaze imbere y'abakinnyi b'umupira, bambaye imyambaro, bamwe bambaye iy'umuhondo abandi bambaye itandukanye na yo, bafite n'icyapa.

Abasore bambaye imyambaro itukura hamwe n'abakobwa bari kwitoza karate ndetse bibashimishije, bibafasha mu kunanura imitsi y'ubwonko n'imitsi y'ibirenge n'imitsi y'umubiri wose.

Umugabo uhagaze imbere y'abakinnyi bicaye ku masakariye abari mu kibuga, cyumupira. Arimo arababwira uburyo gukora siporo ari byiza, gukina umupira ndetse byinjiriza abantu batandukanye amafaranga.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira bambaye imyambaro itandukanye harimo iy'umweru n'iy'umuhondo n'amakabutura y'umukara, baje gukina kugira ngo bashimishe abaturage bibinjirize n'amafaranga.

Kaburimbo nziza irimo imodoka isa neza, iriho n'amatara afasha abagenzi mu gihe cya nijoro kugira ngo babone uko bagenda, babone nuko bambuka umuhanda batagonzwe n'ibinyabiziga.

Abaturage bo mu karere ka Nyagatare bafite icyapa cyanditseho umurenge kagame cup, ni irushanwa ryo gukina umupira w'amaguru ritewe n'inkunga na perezida Paul Kagame.

Abantu babyukiye ku kibuga cy'umupira baje gufana amakipe yabo harimo abagabo, abagore, abasore n'abakobwa bibafasha gusabana kwiyumvanamo, ndetse no guteza imbere umupira w'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza, uriku kugenda mumodoka, urimo n'abaturage bari gukora siporo kugira ngo bananure amaguru ndetse bananure n'imitsi kugira ngo amaraso atembere neza mu maraso, ibyo bibafasha kumera neza no kuruhuka mu mutwe.

Ikipe y'umupira w'amaguru yambaye imyambaro myiza y'ubururu irimo n'ibara ryicyatsi ibyutse ikora siporo kugira ngo inanuke, ndetse babone uburyo bajya gukina bajya guhura n'indi kipe.

Abagabo bicaye ku masakariya ku ntebe nziza, bambaye imyenda ya siporo, basa n'aho baje kureba umupira mu kibuga, intebe zisa ubururu, ndetse inyuma hateye amarangi y'umweru.

Abantu babyukiye muri siporo, bambaye imyambaro ya siporo, baje kunanura imitsi, amaboko, amaguru kugira ngo amaraso atembere neza, siporo ifasha abantu mu kuruhuka mu mutwe ndetse no kunanura imitsi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru gisa neza kirimo abakinnyi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye ndetse n'inyuma yabo hari amabara asa n'idarapo ry'u Rwanda.

Ikipe nziza y'umupira w'amaguru, yambaye impuzankano yo gukinisha mu kibuga, imipira isa umweru, amapantaro ni ay'umuhondo, bambaye n'inkweto nziza, bahagaze kuri tapi imeze neza.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga kiza. Bambaye imyambaro ya siporo y'umuhondo ndetse n'amasogisi y'umuhondo n'umutuku. Bahagaze imbere y'umupira agiye gutera penaliti.

Abagabo bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, bari gukina ndetse bibafasha kwinjiza amafaranga, bakabona ibitunga urugo, bakiteza imbere, bagatezanya imiryango yabo imbere, bakabonamo n'amafaranga yo kurihira abana ku ishuri.

Umuhanda w'igitaka mwiza unyurwamo n'abaturage mu gihe bavanye imyaka yabo mu gasozi bayijyanye mu rugo, kugira ngo babone uburyo bayibika ndetse banayihunike neza imeze neza.

Umugore uri kugenda mu nzira uheretse igikapu, ari kunyura mu muhanda w'abagenzi banyuramo, hariho na kaburimbo y'umukara isa neza, ifasha abaturage kujyana ibintu byabo ku masoko, no kubivana mu mirima.

Kaburimbo nziza iri kunyuraho abaturage baciye mu muhanda w'abagenzi ndetse hari n'inyubako nziza isakajwe amabati y'ubururu iteye n'irange ry'umweru ifasha ba nyirayo kuraramo.

Umuhanda mwiza w'igitaka ukikijwe n'umucaca, ugiye mu ngo z'abaturage ndetse ubafasha no gutwara ibihingwa byabo mu rugo, babivanye mu mirima ndetse bakanabijyana ku masoko kugira ngo babone uko babigurisha.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru uri kugenda mu muhanda mwiza w'igitaka ndetse n'inyuma ye hari amazu meza asa n'aho ari ay'ubucuruzi afasha abaturage mu gucuruza kugira ngo babone ibyo bakeneye hafi.

Akayira abagenzi banyuramo, mu gihe bavuye mu rugo, bagiye mu mirima, guhinga imyaka yabo, mu kazibo ka buri munsi barakifashisha, bikoreye imyaka yabo bayijyanye mu rugo.

Abantu babiri bari kunyura mu muhanda w'igitaka, hakaba harimo ibiti, hakaba harimo itara ry'amashanyarazi ritwara umuriro mu baturage, akaba ari n'inzu isakaje amabati, indi yubakishije igipangu gifite urugi rw'umutuku.

Ifite ibara ry'umukara n'umutuku, bakoresha mu gihe bagiye kunywa gusabana, ndetse bikabafasha kugira ngo ba nyirayo ba biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo.